Turizirikane ko kwirinda inkongi y'umuriro biramira ubuzima bwa benshi ndetse n'ibindi bintu byinshi ni ingenzi rero ko ahantu hose ukwira ugomba kugira ibyuma byabugenewe byo kuzimya umuriro igihe habayeho inkongi itunguranye.

Nutega ikinyabiziga cya moto uzibuke kwambara ingofero irinda umutwe, kandi igihe umumotari ashatse kugutwara ku muvuduko w'ikirenga, ufite uburenganzira bwo kumubuza akagendera ku muvuduko wagenwe kugira ngo bitabaviramo impanuka.

Niba utwara ikinyabiziga cya moto, zirikana yuko gutwara umuntu n'imizigi bitemewe. Kandi wibuke gushishikariza abantu utwara ko kugenda ujugunya imyanda aho ubonye hose bitemewe, kugira ngo turusheho gusigasira isuku igaragara mu gihugu cyacu.